Urupapuro ruriho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse n'amafaranga bigiye bigura, bakaba baruha umuntu waje abagana kugirango abashe guhitamo ibyo yifuza kurya anarebe amafaranga bigura.

Urupapuro ruriho ibyo kurya n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ndetse n'uko bigura rukaba ruhabwa umuntu waje abagana akabasha kureba ibyo yifuza, uko bigura, cyangwa uko byitwa.

Akabari kagizwe n'amabara meza cyane kakaba gafite n'ahantu ho kwicara. Bfite ibyo kunywa bigiye bitandukanye yaba ibisembuye n'ibidasembuye, bakagira n'imashini ituma bikomeza bikonje.

Akabari kanini cyane kagizwe n'ahantu heza cyane ho kwicara ndetse kakagira n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, birimo ibisembuye, ibidasembuye, bakagira n'imashini zibafashe gukonjesha ibyo binyobwa.

Umugabo n'abakobwa babiri bose bambaye amashati y'umweru, bahagaze imbere ya kotwari irimo inzoga zigiye zitandukanye z'amoko atandukanye, hakaba hatatse n'amabara meza cyane yaka mu ibara ry'icyatsi.

Ahantu mu kabari bacuruza ibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n' ibidasembuye, hari umugabo wicaye wambaye ipantaro y' umukara ndetse yashyize amaguru ku yindi ntebe ari no kunywa icyo kunywa cye.

Akabari gatatswe n'amabara yaka cyane y'ubururu, kakaba gafite n'ahantu ho kwicara heza ndetse bagira ibinyobwa bigiye bitandukanye ibisembuye n,ibidasembuye bakagira n,imashini ituma bikomeza bikonje.

Akabari gafite ahantu ho kwicara, ndetse kakaba gafite n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Bakagira n'ama ekara manini cyane, abafasha kwerekana imipira cyangwa kureba amakuru.

Amavude atatu y'inzoga zitandukanye iyitwa mitsingi, sikolo cyangwa amusiteri. Zikaba zikunzwe cyane n'abantu banywa inzoga kubera uburyohe zigira kandi zikaba zinasindisha.

umuhanda w'amabuye umuntu ari kuwambukiranya imbere ye hari icyapa kinini kiriho ivide ry'inzoga yitwa mitsingi ku ruhande hakaba haparitse amamodoka agiye atandukanye, nanone hakaba hari akameza n'umutaka by'umuhondo

Igikuta kinini kiri mu ibara ry'umuhondo gishushanyijeho amagambo yanditseho sikoro. Akaba ashushanyije mu buryo bwiza bugezweho hifashishijwe amabara agiye atandukanye umweru, umukara ndetse n'umutuku.

Akabari kagizwe n'amabara meza cyane: umuhondo, ubururu ndetse n'ayandi, kakaba gafite ibyokunywa bitandukanye: bisembuye n'ibidasembuye, ndetse na sikirini bifashisha bari kureba ibyacurujwe.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibyo kunywa bitandukanye, n'amafaranga bigiye bigura. Rukaba ruhabwa umuntu waje abagana, kugira abashe kureba icyo yifuza kunywa ndetse amenye n'amafanga kigura.

Umumotari uri mu muhanda w'amabuye akaba ahetse umugabo wambaye ikote ry'umukara ipantaro y'ubururu, bari kunyura ahantu haparitse imodoka ndetse hari n'icyapa kigaragaza ko hafi aho hari akabari n'izina ryako.

Urupapuro ruriho amoko y'ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse n'amafaranga ibyo byo kunywa bigura, rukaba rwifashishwa n'abantu bafite amaresitora ndetse n'utubari, aho ruhabwa umuntu waje ubagana kugira arebe icyo yifuza kunywa.

Akabari gafite ahantu heza cyane ho gutereka ibyo kunywa byabo, haka cyane, hakaba harimo ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye. Munsi yaho hakaba hari intebe iteretseho umupira wo kwambara.

Urupapuro rw'umweru rushushanyijeho ibyo kunywa bigiye bitandukanye rukaba ari urupapuro rwifashishwa n'abantu bacuruza ama restaurant cyangwa utubari aho baruha umuntu waje abagana kugira arebe icyo yifuza kunywa amafaranga kigura.

Igipangu cy'umweru gifite igikuta cy'umuhondo ndetse n'umweru, hakaba hari n'icyapa kinini kigaragaza izina ry'akabari icyo cyapa gishushanyijeho amavide abiri y'inzoga yitwa sikoru.

Akabari kitabiriwe n'abantu benshi cyane, bahagaze ndetse n'abicaye kakaba gafite n'amatara amurika cyane. Bafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye, birimo ibisembuye, ibidasembuye, ndetse n'imiziki myiza.

Akabari gatatswe n'amabara agiye atandukanye ndetse n'imitako ibereye ijisho, kakaba gafite ibyo kunywa bitandukanye, yaba ibisembuye n'ibidasembuye, bakagira na ekara ibafasha kwerekana amakuru ndetse n'imipira.

Akabari gatatswe n'amabara meza cyane, kakaba gafite n'aho kwicara heza. Bafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye, yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, ndetse n'imashini ibifasha gukomeza bikonje.

Akabari gatatswe n'amabara meza cyane atandukanye agizwe n'umutuku, icyatsi n'ubururu, kakaba gafite ibyo kunywa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuyee ndetse n'ahantu heza cyane ho kwicara.

Inzoga iri mu ivide ikaba ikorwa n'uruganda rwitwa Virunga, hakaba hari n'ikirahure bayisutsemo. Iyi nzoga ikaba iryohera abantu bakunda cyane agasembuye kubera ko isindisha.

Urupapuro ruriho ibyo kurya n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye n'amafaranga bigura rukaba rwifashishw n'abantu bafite amahoteri n'amaresitora bakaruha umuntu uje ubagana kugira abashe icyo yifuza gufata.

Urupapuro rw'umweru ruriho amazina y'ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse ndetse n'amafaranga bigura. Uru rupapuro rukaba rwifashishwa n'abantu bafite amaresitora, cyangwa utubari, aho ruhabwa umuntu waje abagana.

akabari keza cyane gatatswe n'amabara meza y'ubururu ndetse nandi kakaba gafite ibinyobwa bigiye bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye kandi kakagira n'imashini ibafasha gukomeza gukonjesha ibinyobwa byabo.

Akabari gafite ameza meza cyane y'umutuku kakaba gateretseho ibyo kunywa bigiye bitandukanye, abantu bakaba bari kubinywa kubwinshi kandi bishimye, mu imbere mu nzu hahagaze umuntu wambaye imyenda y'umukara.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hakaba hari ameza ariho ibyo kunywa bisembuye biri mu ivide ndetse n'ikirahure, n'agapapuro k'umuhondo gashushanyijeho inzoga.

Akabari gafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye ibisembuye n'ibidesembuye kakaba gafite n'ahantu heza cyane ho kwicara bafite tereviziyo nini zifashishwa mu kwerekana imipira yo mu bihugu bigiye bitandukanye.

Akabari gafite amatara ndetse kakagira n'aho kwica heza, bafite n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, yaba ibisembuye n'ibidasembuye kandi uba ushobora kubibona bishyushye cyangwa bikonje, kubera ko bafite imashini zabugenewe.

Akabari gatatswe n'amatara meza cyane ndetse n'ahantu heza ho kwicara, hakaba hicaye abantu babiri, bari gufata ibyo kunywa bitandukanye yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, bakaba bafite n'imashini zibafasha gukonjesha ibinyobwa.

Ikirahure kinini gisutsemo inzoga yuzuye kikaba giteretse ahantu mu kabari bafite n'ibindi binyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye bakaba bafite n'uburyo bwo kwishyura hifashishije ikoranabuhanga.

Akabari keza cyane kagizwe n'amabara yiganjemo ay'umukara kakaba gafite ibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, bakagira n'ahantu heza cyane ho kwicara uri kunywa icyo kunywa cyawe n'imashini zikonjesha.

Akabari gafite amatara meza cyane ndetse n'ahantu ho kwicara heza, hakaba hitabiriwe n'bantu batari bacye, aho baje kunywa ibinyibwa bigiye bitanduknye bikubiyemo ibisembuye n'ibidasembuye.

Akabari keza cyane gafite n'ahantu ho kwicara gafite ibinyobwa bisembuye, ibidasembuye ndetse kakagira na ekara nini berekaniraho imipira igiye itandukanye ku buryo ababagannye bataha bishimye.

Icyapa kinini cy'umutuku n'umweru kikaba kiriho izina ry'akabari ndeyse gishushanyijeho icupa, n'ikirahuri birimo inzoga munsi yaho hari abatu bacuruza amashati agiye atandukanye.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye, hakaba hatatse neza kubera ko bafite ahantu heza cyane ho kwicara, bakagira na ekara nini berekaniraho imipira ku baje babagana.

Icyapa kinini cyanditseho izina ry'akabari mu mabara atukura, hakaba hashushanyijeho icupa rinini ndetse n'ikirahure birimo ibyo kunywa, inyuma hakaba hariho umuntu uri gusoma ku nzoga ndetse n'abandi bari guceza umuziki.

Akabari gafite ibyo kunywa byinshi cyane bigiye bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye ndetse bakaba bafite na ekara nini ibafasha kwerekana imipira. Hahuriye abantu benshi cyane baje kuhanywera ndetse banareba umupira.

Akabari gatatswe n'amabara y'ubururu, kakagira aho kwicaraho heza cyane, ndetse bafite n'ibinyobwa bitandukanye, yaba ibisembuye n' ibidasembuye. Ushobora kubagana ushaka kunywa cyangwa kwizihirwa n'inshuti zawe.

Urupapuro ruriho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye, rwifashishwa n'ahantu bacuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, bakaba baruha umuntu waje abagana, kugira ngo arebeho ibyo yifuza gukoresha.

Akabari karimo umukobwa wambaye umupira w'umweru, inyuma ye hakaba hari imashini itunganya ibyo kunywa bigakomeza bikonje; hari abagabo bicaye bari kunywa icyo kunywa cyitwa pirimunsi.

Akabari keza cyane gatatswe n'abarara agiye atandukanye ay'umutuku, ubururu, ndetse n'icyatsi, kakaba gafite n'ahantu ho kwicara bakaba, bafite ibyokunywa bitandukanye yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Umuhanda w'amabuye harimo umu motari utwaye umuntu wambaye imyenda y'ubururu, ndetse ku ruhande haparitse igare ,mbere y'igare hari gipangu kinini kiriho n'icyapa cyanditseho izina ry'akabari.

Umuhanga mukuvangavanga ibyokunkwa byamoko agiye atandukanye kugira ngo birusheho gukomera, afashe amavide abiri mukiganza ari kuyasuka mwijage kugira ngo bize kuryohera ababikunda.

Akabari gatatswe n'amabara meza cyane y'umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu kakaba gafite n'ahantu ho kwicara bakagira nibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye na ekara nini abantu bareberaho imipira.

Akabari gafite ahantu ho kwicara witegeye ibyo kunywa byiza bisembuye ndetse n'ibidasembuye bakaba bafite uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga udahenzwe.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa by'amoko yose, hakaba hari akabati kanini, karimo ibyo kunywa bitandukanye, ibisembuye, ibidasembuye. Hasi hakaba hari amakaziye manini arimo inzoga.

Akabari kitabiriwe n'abantu benshi cyane bakaba bafite ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, ndetse kakaba gafite n'amatara amurika neza cyane abantu bishimiye kuhafatira icyo kunywa.

Akabari keza gafite amatara meza akurura abaje babagana, kakaba gafite n'aho kwicara heza cyane aho umuntu yicara ari kureba imipira igiye itandukanye yo hanze bakaba bafite n'imashini zibafasha gukonjesha ibinyobwa byabo.

Akabari gafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye: ibisembuye n'ibidasembuye, bikaba bipanze mu kabati keza, bafite na televiziyo ibafasha kwerekana imipira igiye itandukanye ku bantu baje babagana.

Icyapa kinini kiranga izina ry'akabari ndetse kikaba cyanditseho n'ibyo bagira, bacuruza ibyo kurya, inzoga n'ibindi bigiye bitandukanye, kandi ushobora kubagana ukaba wareba n'imipira.

Akabari keza cyane gafite amatara yihariye kubera uburyo atatsemo, bakaba bafite n'ahantu heza cyane ho kwicara uri kunywa ibinyobwa ndetse n'imashini zibafasha gutunganya ibinyobwa byabo bikaguma bikonje.

Ahantu heza cyane ho kwicara mu kabari hakaba hari na ekara nini yo kureberaho imipira igiye itandukanye hari imiryango yaje kuhasangirira uru kubona ko bishimiye serivise bari guhabwa aho hantu.

Icyapa kiriho izina ry'akabari, cyikaba gishushanyijeho ivide ndetse nikirahure kirimo inzoga, hariho nimero wabahamagaraho ubakeneye, ndetse hakaba hariho n'ibyo bakora bigiye bitandukanye.

Akabari keza cyane, gatatswe n'amabara meza, kakaba gafite ibinyobwa bigiye bitandukanye, yaba ibisembuye, n'ibidasembuye. Na none bafite ekara nini cyane, ibafasha kwerekana imipira itandukanye.

Icyapa kinini kiri ku muhanda cyanditseho izina ry'akabari, cyikaba gishushanyijeho ivide ririmo inzoga bari gusuka mu kirahure, iki cyapa cyikaba gikurura abantu benshi bakunda inzoga kubera ubwiza bwazo.

Akabari kari ahantu heza ndetse kakaba gafite n'ahantu heza cyane ho kwicara gafite ekara nini zifasha abitabiriye, kureba imipira giye itandukanye ndetse n'ibinyobwa biryoheye ijisho bisembuye n'ibidasembuye.

Akabari gafite amatara meza ndetse ni ahantu ho kwicara, kakaba gafite ibinyobwa bigiye bitandukanye, yaba ibisembuye n'ibidasembuye, hakaba hari umugabo wicaye wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara yaje kuhanywera.

Urupapuro ruriho ibyo kurya bigiye bitandukanye, ndetse hakaba hariho n'amafaranga ibyo byo kurya bigura, ruriho amako atandukanye y'amaji kandi ruhabwa umuntu waje abagana kugirango ahitemo icyo kurya.

Urupapuro ruriho ibyokurya, ibyokunywa bigiye bitandukanye ndetse n'amafaranga ibyo byokunywa bigura n'ibyokurya. Rukaba ruhabwa umuntu waje abagana, kugira ngo abashe guhitamo icyokunywa cyangwa icyokurya yifuza.

Urupapuro ruba ruriho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye n'amafaranga bigura, rukaba ruhabwa umuntu waje abagana kugira ngo abashe kureba ibyo kurya yifuza cyangwa ibyo kunywa yifuza uko bigura.

Akabari kagizwe n'amatara meza cyane amurika kakaba gafite ibyo kunywa bitandukanye ndetse na ekara nini yifashishwa mu kwerekana imipira. Hakaba hari n'amezaza ateretseho icupa rinini n'ikirahure kirimo inzoga.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye yaba ibisembuye n'ibidasembuye, hakaba hari n'ibindi biteretse ku kameza kari imbere y'umucuruzi. Hakaba hari n'undi mukobwa wifashishwa mu kugenda abibagezaho aho bicaye.

Akabari gatatswe n'amabara meza cyane, kakaba gafite aho kwicara heza, ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, bakagira na ekara nini ibafasha kwerekana imipira cyangwa amakuru.

Umuhanga mu kuvanagavanga ibyo kunywa bigiye bitandukanye ari kuvanga icyo kunywa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye kugira bize kuryohera abaje kubigura bikaba bikunzwe n'abantu benshi cyane bakunda amayoga.

Akabari karimo amatara yaka neza bakaba bafite ibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye ndetse bakagira namaekara manini yo kwerekaniraho imipira abaje babagana.

Urupapuro ruriho ibyo kurya ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, hakaba hariho n'amazina yabyo, ndetse n'uko bigura. Bakaba baruha umuntu waje abagana kugira arebeho ukuntu bigura, ndetse arebeho n'ibyo yifuza kureba.

Aha hantu heza cyane hatatswe n'imbaho ni akabari bafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye bakagira n'imashini zifashishwa mu gutuma ibyo binyobwa bikomeza bikonja.

Abari gatatswe n'amabara meza cyane kakaba gafite ahantu ho kwicara heza, n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ibisembuye ndetse n'idasembuze, na none bafite ekara nini zbafasha kwerekana imipira.

Akabari gatatswe n'amabara meza cyane agiye atandukanye y'ubururu ndetse na pinki. Kakaba gafite ahantu ho kwicara heza aho uba witegeye ekera nini barekaniraho imipira. Kandi bafite n'imashini zikonjesha.

Akabari gatatswe n'amatara meza cyane y'ubururu ndetse n'umutuku, kakaba gafite n'ahantu heza cyane ho kwicara, bafite ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye ndetse n'imiziki iryoheye amatwi.

Akabari keza cyane, karimo abagabo babiri, bakaba bacuruza ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bafite n'ahantu heza cyane ho kwicaza abaje babagana, kugira baryoherwe n'ibyo kunywa.

Akabari keza cyane gafite ibyo kunywa bitandukanye bisembuye n'ibidasembuye kakagira n'ahantu ho kwicara heza, bafite imashini zibafasha gutuma ibyo binyobwa byabo biguma bikonje bimeze neza.

Akabari gatatswe n'amabara meza cyane agiye atandukanye kakaba gafite ibyo kunkwa byinshi bisembuye n'ibidasembuye, kakaba kitabiriwe n'abantu benshi kubera ubwiza bwako ndetse na serivise baha abahageze.

Icyapa kinini kiriho izina ry'akabari ryanditswe mu mabara y'umutuku kikaba kiriho n'umuntu uri kunywa inzoga abandi bari guceza umuziki ikirahure kirimo inzoga yuzuye ndetse n'ivide.

Akabari gafite amatara amurika cyane kakaba gafite n'ahantu ho guhagarara cyangwa kwicara heza, bafite ibinyobwa bitandukanye birimo ibisembuye n'ibidasembuye, ndetse n'imiziki isusurutsa abitabiriye.

Akabari gatatswe n'amabara yaka neza kakaba gafite n'ahantu batereka ibyo kunywa byabo yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye na none bafite imashini ibafasha gutuma ibinyobwa byabo bikomeza bikonje.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kurya. Bakaba bafite n'ahantu heza cyane ho kwicara uri gufata amafunguro yawe, unanywa n'icyo kunywa cyawe wishimiye, kubera amahumbezi ahari.

Ikibaho cyanditseho amagambo mw'ibara ry'ubururu, hakaba hariho iminsi igiye itandukanye ndetse na serivise batanga kuri iyo minsi, aho ku wa mbere ugura ibyo kunywa bibiri ugahita uhabwa kimwe cy'ubuntu.

Akabari gafite amatara apanze neza n'imyanya myiza cyane yo kwicaramo, bakaba bafite ibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembye ndetse bakagira n'imashini zibafasha gutuma ibinyobwa byabo bikomeza bikonje.

Akabari gafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye yaba ibisembuye n'ibidasembuye, bikaba bipanze neza mu kabati hakaba hari na ekara nini yifashishwa mu kwerekana imipira cyangwa ibindi biganiro bikomeye.

Akabari kicayemo abantu benshi, akabari kakaba gafite ahantu heza ho kwicara ndetse ibinyobwa bitandukanye bisembuye n'ibidasembuye hakaba hari umuntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku uriguha serivise abaje bamugana.

Akabari bacuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye yabi ibisembuye ndetse n'ibidasembuye hari umukobwa wambaye ikanzu y'umukara afashe amavide mu ntoki hakaba hari no kwaka amatara meza cyane aryohera abitabiriye.

Akabati gapanzemo ibyo kunywa bisembuye, bikaba bipanze neza kandi bimurikiwe n'itara ryiza cyane, kuruhande hari ekara yifashishwa mukwerekana imipira igiye itandukanye, iyo hanze no mu Rwanda.

Urupapuro ruba rwanditseho ubyo kunywa bigiye bitandukanye, ndetse n'amafaranga rugura, bakaruha umuntu waje abagana, kugira abashe kureba icyo kunywa yifuza, yishyure n'amafaranga ayazi.

Mu kabari hateretse amakaziye menshi cyane arimo inzoga z'ubwoko bugiye butandukanye, ndetse hakaba hari n'akabati kanini kagiye gapanzemo inzoga zitandukanye zisembuye, ndetse n'ibyo kunywa bidasembuye.

Icyapa kinini, kiri imbere ya kabari gishushanyijeho ivide ndetse nikirahure cyuzuyemo inzoga; hakaba hari nikindi cyumutuku, kiriho izina ryakabari, ndetse nakabari nyirizina.

Akabari bacuruzamo ibyo kunywa bitandukanye. Ibisembuye n'ibidasembuye, bakaba banerekana imipira ikomeye yo hanze; aho bazfite ekara nini cyane ibafasha kwerekana iyo mipira.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibintu bigiye bitandukanye umuntu yaguze ndetse n'amafaranga yabiguze hakaba hariho ni giteranyo cy'amafaranga yose agomba kwishyura ndetse n'umusoro.

Akabari keza cyane gatatseho ururabo ndetse n'amashusho y'inyoni agiye atandukanye. Bakaba bafite ibyo kunywa bitandukanye, ari ibisembuye n'ibidasembuye ndetse n'imashini ikonjesha ibinyobwa byabo.

Akabari keza cyane gatatswe n'amabara meza, kakagira aho kwicara heza ndetse n'ahantu ho kurebera umupira kakaba karimo abantu batari bake, baje kuhanywera ibyo kunywa cyabo bifuza.

Akabari gafite ahantu heza cyane ho kwicara bafite intebe zitandukanye izizamuye ndetse n'iziciye bugufi kandi bakaba bafite n'uburyo bwo kwerekana imipira igiye itandukanye ku buryo ababagannye babasha kureba imikino.

Umuhanda ahantu haparitse igare ndetse hakaba hariho n'umugabo uri gutambuka uhetse igikapu cy'umukara, imbere yaho hari igipangu kinini cy'ubururu kikaba kiriho icyapa kigaragaza ko aho hantu hari akabari.

Akabari gafite aho kwicara heza cyane hari n'amatara amurika cyane kitabiriwe n'abatari bacye, bakaba bafite ibinyobwa bitandukanye yaba ibisembuye n'ibidasembuye kandi bakagira n'ibinyobwa bikonje.

Urupapuro ruriho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye n'amafaranga bigura, rukaba rwifashishwa n'abantu bafite amaresitora ndetse n'utubari, aho ruhabwa umuntu akareba icyo yifuza kunywa n'amafaranga kigura.

Akabari kitabiriwe n'abantu benshi barikunywa ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, hakaba hari n'amatara meza cyane y'umutuku arikubamurikira bakizihirwa n'ibyo byo kunywa byabo.

Akabari gatatswe n'amabara agiye atandukanye, meza cyane, aya pinki n'ay'umuhondo, kakaba gafite n'ahantu heza cyane ho kwicara. Bafite ibinyobwa bigiye bitandukanye, yaba ibisembuye n'ibidasembuye.

Akabari keza cyane kihariye kakaba gafite ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse n'ahantu heza cyane ho kwicara aho umuntu anywa ibyo kunywa byiwe areba n'ahantu heza cyane hatatse neza.

Icyapa kinini cyane cy'umutuku n'icyatsi kiri ahantu ku muhanda, kiba kiriho ivide rinini ryitwa sikoru ndetse n'abantu inyuma bari kubyina bizihiwe n'umuziki, banyweye kuri icyo kinyobwa.

Akabari gatatswe n'amabara meza y'ubururu ndetse n'ayandi, bakaba bafte ibyo kunywa bigiye bitandukanye yaba iibisembuye ndetse n'ibidasembuye, bakangira na ekara nini ibafasha kwerekana mipira igiye itandukanye.

Akabari gatatswe n'amatara kakaba gafite n'ahantu heza cyane ho kwicara, bakaba bafite ibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye bakagira n'imamshini zibafasha gutuma ibyo binyobwa biguma bikonje.

Akabari gafite amatara meza cyane ndetse n'ahantu umuntu yicara yisanzuye, bakaba bafite ibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, k'umuntu wese wifuza ibikonje cyangwa ibishyuye nawe arabibona.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye hari umugabo, wambaye umupira w'umukara afashe ibirahure bibiri, birimo inzoga mu ntoki ze aho ari guha serivise abaje bamugana.

Ahantu bacuruza inzoga mu kabari hakaba hari ibyo kunywa bigiye bitandukanye ibisembuye nibidasembuye hakaba hari n'ameza ariho ikirahure kirimo inzoga ndetse n'akandi kantu karimo amacupa menshi cyane y'inzoga.

Umuntu ufatishije urupapuro rw'isuku, umutsima mwiza cyane ukozwe mu ifarini, ukaba uryoha kubera ko uba urimo n'isukari. Ukundwa n'abantu batari bake cyane, yaba abana, cyangwa abantu bakuze.

Ahantu bacururiza amata hakaba hari abantu batatu, abahungu babiri ndeste n'umukobwa wambaye ishati y'umweru. Bakaba babasukiye amata mu bikombe kandi baryohewe cyane n'ayo mata, kubera ko bari no kumwenyura.

Amata y'ikivuguto atunganyijwe, akaba yongerwamo ibindi bintu bigiye bitandukanye, yaba inyeri, cyangwa bakongeramo isukari, akaba akundwa cyane n'abana kubera ukuntu aba aryoshye.

Ahantu bacuruzira amata y'ubwoko bugiye butandukanye, harimo ay'inshyushyu ndetse n'ay'ikivuguto, hakaba n'andi aba atunganyijwe neza, yongerewemo isukari ndetse n'inkeri, akundwa n'abana.

Ahantu bacuruza amata hanze hakaba hari ikare munzu hakari amakaro y'umweru hasi ndetse no ku gikuta, hakaba hari n'intebe yo kwicaraho n'icyuma gifasha gutumganya amata agakomeza ameze neza.

Imashini iteretseho akantu karimo urupapuro rw'isuku rwifashishwa n'abantu bagiye batandukanye , abamaze kurya cyangwa gukaraba mu ntoki kugira ngo bihanagure imyanda .

Ahantu bacuruza amata ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye birimo imitobe iryohereye cyangwa amazi, bafite imashini itunganye amata agakomeza afite ubuziranenge ndetse n'iyakonjesha.

Inzu bacururizamo amata, hakaba hari utujerekani tw'umweru turimo amata y'ikivuguto, ndetse n'utundi twifashishwa mu gutwaramo amata, hakaba hari n'imashini itunganya, amata agakomeza neza kuburyo bayajyana ari umwimerere.

Amandazi ari ku isahane aya mandazi akaba aryoha cyane kubera ubuhanga aba akoranywe, aba akoze mu ifarini ndetse bakayanyuza no mu mavuta kugira ngo ashye neza akaba akundwa n'abana ndetse n'abantu bakuru.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye birimo amata, ibyo kunywa bitera imbaraga ndetse n'ibindi biryohereye, bakaba bafite n'icyayi kiza cyane cy'umwimerere w'u Rwanda gikunzwe n'abatari bakeya muri iki gihugu cyangwa hanze yacyo.

Amandazi meza cyane ari ku isahani ndetse hari rimwe rimanyuye, rigaragaza ubwiza bw'ayo mandazi, araryoha cyane, akaba akunzwe n'abantu batari bake yaba abana cyangwa abantu bakuru.

Ahantu bacururiza amata hari akabati karimo amajerekani y'umweru, aya majerekani akaba yifashishwa mu kubika amata, ndetse bakaba banayageza aho bashaka kuyageza ameze neza.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru ari gusuka amata mukajage kandi hari n'akandi kajerekani gahagaze kuruhande, akaba ari kugenda aha abantu bagiye bamugana amata aho ari kubaha amata ajyanye n'ayo bifuza.

Ahantu bacuruza ibyokurya ndetse n'ibyokunywa bitandukanye bakaba bafite imigati, amandazi, amasambusa mu byo kunywa bakaba bafite amazi, imitobe iryohereye umuntu yaje kugura we amata.

Amata agiye atandukanye ari mu ngeri zitandukanyendetse apakiye bitandukanye , hari atunganyijwe neza yongerewemo n'ibindi bintu bikubiyemo inkeri n'isukari akaba akundwa n'abana.

Indobo ebyiri zipfundikiye zirimo amandazi, imwe ikaba iriho n'akantu bifashisha bari gufata amandazi mu ndobo kugira batayanduza. Aya mandazi akaba aryoha cyane, kubera ko akozwe mu ifarini.

Ahantu bacuruza amata, hasi hakaba hari amakaro y'umweru, ndetse no ku gikuta, hari n'intebe. Na none hari ikintu kinini, bashyiramo amata kugira ngo bayageze aho bashaka bitabagoye.

Indobo irimo imitsima myiza cyane ikozwe mu ifarine ikaba ipfundikiye, iyi mitsima iraryoha cyane, ikaba ikundwa n'abantu b'ingeri zitandukanye hakubiyemo abana n'abantu bakuru.

Isahane iteretseho irindazi ndetse n'urupapuro rw'isuku. Iri rindazi rikaba riryoha cyane kubera ko rikoranywe ubuhanga bakaba bashyiramo amata ndetse n'isukari, uru rupapuro rw'isuku rukifashishwa mu gihe umuntu asoje kurya akeneye kwihanagura.

Ahantu bacuruza amata hari imeza y'umbweu iteretseho igikombe ndetse n'isahane, aya mata akaba aryoha cyane kubera ko afite n'intungamubiri zogiye zitandukanye ku bana.

Imashini iri ahantu bacuruza amata ikaba iteretseho akantu bashyiramo impapuro z'isuku ndetse hakaba hari n'intebe zo kwicaraho. Iyi mashini ikaba yifashishwa mu gutunganya amata kugira akomeza afite umwimerere wayo.

Umugore uri ahantu bacuruza amata, impande ye hateretse igikombe cy'umweru kirimo amata, ndetse yicaye n'impande y'icyuma cyagenewe gukonjesha ibintu, kugira abantu baze kubinywa bikonje.

Isahani nini iriho amandazi kozwe mu ifarini akaba aroha cyane kubera umwimerere wayo akaba akunzwe n'abantu batari bake hakubiyemo abana ndetse n'abantu bakuru.

Igipapuro giteretse ku kantu kifashishwa mu guterekaho amagi, kikaba kirimo imitsima myiza ikozwe mu ifarini, ikaba iryohera abatari bake kubera ko iba irimo n'agasukari.

Umukozi ukorera ahantu bacuruza amata ari gusuka amata mu kajerekani k'umweru yifashishije ijage y'icyatsi akaba yambaye umupira w'ubururu ku ruhande rwe hari imashini itunganya amata.

Umugabo uhagaze mu nzu bacururizamo amata, ku ruhande rwe hari imashini itunganya amata agakomeza ameze neza ndetse bacuruza n'ibyorya bitandukanye, bikubiyemo amagi aba akungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Ahantu bacuruza amata hakaba hari akantu gateretseho ibintu bitandukanye birimo amasahani, utudobo turimo ibyo kurya ndetse n'amaterimusi manini arimo ibyo kunywa bakaba bafite n'imashini ikonjesha.

Ameza y'umweru ateretseho agakombe karimo uduti tw'isuku dukoreshwa iyo umuntu amaze kurya ibintu bifata mumenyo aho ashobora kugakoresha agakuramo ibyo bintu kugira ngo agende ntapfunwe afite.

Ahantu bacuruza amata, hakaba hari icyapa kinini kigaragaza ibyo kunywa bacuruza ndetse n'ikindi gishushanyijeho ibyo kurya bindi bindi bitandukanye bafite, hakaba haparitse moto.

Icyapa kinini kigragaza ahantu bacuruza amata hakaba handitseho izina ryaho n'ibyo bacuruza bigiye bitandukanye kandi ushobora kubahamagara kuri nimero yabo mugihe waba usanze badahari.

Ahantu bacuruza amata ndetse bakaba bafite n'ibindi byo kunywa butandukanye, birimo imitobe iryohereye ndetse n'amazi. Bakaba bafite n'imashini zibafasha gutungabya amata yabo, agakomeza afite ubuziranenge.

Inzu bacururizamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye bikubiyemo n'amata, ndetse n'ibindi binyobwa biryohereye n'amazi, hakaba hari n'imashini yifashishwa mu gutunganya amata agakomeza afite ubuziranenge.

Icyapa kiriho izina y'ahantu bacururiza amata hakaba hariho n'ubwoko bw'ibintu bitandukanye bagiye bafite, aho bafite amata meza cyane atunganyijwe ndetse n'imitobe iryohereye.

Amasamusa meza cyane aryoha, hakaba akozwe mu ifarini ndetse n'inyama, hakaba ari n'ayandi aba akozwe mu ifarini cyangwa ibirayi, akaba akundwa n'abantu batari bake kubera uburyohe agira.

Inzu bacururizamo amata ikaba yiganjemo amabara y'ubururu ndetse bakaba bafite n'ibyo kunywa bindi bitandukanye biryohereye ibyo kurya birimo amandazi imitsima myiza cyane ikozwe mu ifarini.

Yawurute nziza cyane ziryoha kandi zikaba zikundwa n'abantu batari bayce cyane mu gihugu cyacu, zikaba ziri mu cyuma cyifashishwa, kugira ngo zikomeze zikonje zifite ubuziranenge kandi ntizangirike.

Ahantu bacuruza amata hakaba hari n' ibinyobwa bigiye bitandukanye birimo; imitobe iryohera, amazi ndetse n' ibinyobwa bitera imbaraga. Hari umugabo wambaye umupira w' umukara inyuma ye hari intebe y' ubururu.

Ahantu bacururiza amata hakaba hari imashini itunganya ayo mata agakomeza afite ubuziranenge ndetse hari n'intebe zo kwakiriraho abaje babagana cyangwa bakabasukira mu majerekani bakayajyana.

Akantu karimo amagi kakabba kifashishwa n'abantu bacuruza amagi cyangwa se abatunze inkoko bakaba bayaterekamo kugira atangirika cyangwa ngo ameneke batarayageza aho bashaka.

Ahantu bacururiza amata, ndetse hakaba hari n'ayandi atunganyijwe afunze mu makarito ndetse n'utundi dukombe duto duto, aya mata akaba aryoha cyane kubera ko aba yongerewemo ibindi bintu bikubiyemo isukari.

Ahantu hacuruza ibyo kunywa bitandukanye bidasembuye birimo imitobe myiza cyane iryoherera, amazi, ndetse n'ibyo kunywa bitera imbaraga. Bakaba bafite nimashini zifashishwa mugutuma ibyo binyobwa byabo bikomeza bikonje.

Umugore uri ahantu bacururiza amata, afashe ijage mu ntoki irimo amata ashobora kuba agiye kuyasukira umuntu, bakaba bafite n'imashini iyatunganya agakomeza ameze neza ndetse n'intebe yo kwicaraho mu gihe arushye.

Umuntuufashe umutsima mu ntoki ukozwe mu ifarini ukaba uryoha cyane kubera ko uba urimo n'agasukari akaba ari kuwurya ndetse awusomesha n'amata kubera ko biryoha.

Umukobwa ukorera ahantu bacuruza amata yambaye agapira k'umukara ndetse afite akajerekani mu ntoki ari gusuka mu bikombe bigiye bitandukanye amata aho agiye guha abaje bamugana.

Inzu bacururizamo amata, hakaba harimo abakobwa babiri bambaye ingofero z'umweru imipira y'umweru, inyuma hari imashini zitunganya amata akaba ameze neza ndetse bari guha serivise abaje babagana.

Umugabo ucuruza amata akaba yicaye ku ntebe y'umweru ndetse afite akajerekani k'umweru mu ntoki ze, ari kuvoma amata ayavana mu kimashini cyiyatunganya, aho agiye kuyasukira umuntu waje amugana.

Imashini yifashishwa mukubika ibyokunkwa bigiye bitandukanye bigakomeza bifite ubuziranenge ntibyangirike , kuruhande hakaba hari amajerekani baguriramo amazi yo kunkwa atunganyijwe neza kugira ngo adatera abantu indwara.

Ahantu bacuruza amata bakaba bafite teremusi ebyiri ndetse n'akandi kantu karimo ibyo kurya, byitwa capati izi teremuze zikaba zubafasha gutuma icyo kunywa cyabo gikomeza gishyushye.

Imitsima myiza cyane kandi iryohera ikozwe mu ifarini ikaba iri ku isahani ndetse hariho n'urupapuro rw'isuku. Iyi mitsima ikaba iryoha cyane kubera ubuhanga ikoranywe harimo n'isukari'

Ahantu bacururiza amata bakaba bafite aho kwicara heza ndetse n'aho gutereka icyo kunywa, abantu bakaba bahagana ku bwinshi kubera isuku bagira ndetse n'ibyo kunywa bitunganyijwe neza bagira.

Imigati ikozwe mu ifarini ndetse n'isukari ikaba iryoha cyane ikundwa n'abantu batari bake muri iki gihugu cyacu harimo abana ndetse n'abantu bakuru.

Ibyo kunywa bigiye bitandukanye bikubiyemo amata, amata yandi y'ikivuguta aba atunganyijwe neza ndetse n'amazi bikaba biri mu mashini ibifasha gutuma bikomeza bikonje kugira bitangirika.

Ahantu bacururiza amata hakaba hari umugore ndetse n'umwana bacuruza nibyo kurya bigiye bitandukanye birimo amandazi n'amacapati cyangwa imitsima myiza cyane ikoze mu ifarini.

Umwana ufashe amata y'ikivuguto atunganyijwe neza, Ari kuyanywa, araryohera cyane kubera ko aba yongewemo ibindi bintu bigiye bitandukanye, bikubiyemo nk'inkeri ndetse n'isukari, abana bakaba bayakunda cyane.

Ahantu bacuruza amata hari umumama wambaye ingofero ndetse n'ikanzu y'ubururu irimo utuntu tw'umweru ku ruhande rwe hakaba hateretse terimusi zirimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye biba bishyushye kubera kugumamo.

Ahantu bacururiza amata ndetse hakaba hari n'icyapa kinini kiri kwakaho itara kigaragaza izina ry'aho hantu n'ibintu bacuruza aho hagaragara ko bacuruza ibyo kunywa bitandukanye n'ibiryohereye.

Amacupa maremare arimo amazi akaba akorwa n'uruganda rukomeye mu rwanda, akundwa n'abantu batari bakeya kubera ukuntu aba atunganyije neza kandi afite umwimerere utasanga ahandi.

Amasambusa ari ku isahani akaba akozwe mu ifarini ndetse n'inyama aya masambusa araryoha cyane kubera uburyohe bwayo ayangaya ntago atetse mbere yo kuyarya barabanza bakayanyuza mu mavuta.

Ahantu bacuruza amata hari ameza y'umweru ateretseho isahane irimo imitsima ikozwe mu ifarini ndetse n'irindazi umuntu yariyeho akaba afashe n'igikombe kirimo amata mu ntoki ziwe.

Ahantu bacuruza amata agiye atandukanye, yaba atunganyijwe bakayafunga mu makarito ndetse bakaba bafite n'ibyo kurya bikubiyemo amandazi n'ibirahuri byifashishwa mu gusukiramo abakiliya amata.

Ahantu bacururiza amata hakaba hari n'icyapa kiharanga ndetse hakaba hasa n'ubururu mu imbere harimo utujerekani tw'umweru ndetse n'imashini ibafasha gukonjesha ibinyobwa byabo bacuruza.

Uruganda rwa Mukamira, ahantu bacururiza amata yabo agiye atandukanye, yaba ay'ikivuguto, cyangwa inshyushyu, ndetse bakaba bafite n'imashini ziyatunganya agakomeza ameze neza ntiyangirike.

Aha hantu bacururiza amata, hakaba hari umugabo ndetse n'umwana, bishimiye kuhanywera amata, ndetse bakaba bari kuyanyweshwa umutsima mwiza cyane ukozwe mu ifarini, ukundwa n'abantu bagiye batandukanye.

Imashini zifashishwa n'abantu bacuruza amata, zikaba zishyirwamo amata kugirango akomeze amere neza yujuje ubuziranenge kuburyo abaza kuyagura bayagura atangiritse agifite umwimerere.

Ahantu bacuriza ibyo kunywa bigiye bitandukanye bidasembuye, ndetse haka hari n'ibyo kurya bikubiyemo bisikwi, imigati. Hari umugore wambaye ikanzu y'ubururu ndetse akaba yamabaye ikanzu y'ubururu ndetse akaba yambaye n'akantu mu mutwe k'umweru.

Amata y'ikivuguto atunganyijwe ya Mukamira, akaba aryohera cyane kubera ko aba yongerewemo ibintu bitandukanye bikubiyemo isukari cyangwa inkeri, akaba akundwa n'abana kubera uburyohe bwayo budasanzwe.

Ahantu bacuruza amata, ndetse bakaba bafite ibindi binyobwa bitandukanye bidasembuye birimo amazi, hakaba hari abantu babiri n'imashini itunganya amata agakomeza ameze neza yujuje ubuziranenge.

Amandazi akoze mu ifarine akaba aryoha cyane kubera umwimerere wayo, utasanga ahandi, aho akundwa n'abantu b'ingeri zose yaba abana ndetse n'abantu bakuru kubera uburyohe bwayo.

Umugore uhagaze ahantu bacururiza amata, wambaye ikote ry'umukara, inyuma ye hakaba hari imashini yifashishwa mu gutunganya amata, agakomeza ameze neza yujuje ubuziranenge, ku buryo abaza kuyagura bayagura ameze neza.

Abantu batatu harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu, undi wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, hakaba hari n'umukobwa wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ahantu bacuruza amata hakaba hari imashini iteretseho impapuro z'isuku. Iyo mashini ikaba itunganya amata agakomeza kugira umwimirere wayo kandi akaguma akonje ku buryo bayagura ameze neza.

Ahantu bacuruza amata hari umwana wambaye umupira w'umukara, n'ikabutura y'ubururu, n'undi wambaye agakanzu k'umweru, bakaba bari kubasukira amata bifashishije indobo y'umutuku hakaba kuruhande hari n'inka iri munsi y'igiti.

Inzu bacururizamo amata hahagaze umuntu uri kuvugira kuri terefone bakaba bacuruza n'ibindi byo kunywa bitandukanye birimo imitobe iryohera ndetse n'ibyo kurya birimo amagi n'ibindi.

Ahantu bacururiza amata hakaba hari umugabo wambaye isengeri y'umweru ari kumwe n'abana babiri aho amaze kugura amata, bafite imashini iyatunganya ndetse bagacuruza n'amazi atunganyijwe neza.

Ahantu bacuruza amata ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, birimo imitobe iryohereye ndetse n'amazi, hakaba hari umumama ufashe Telefone ye muntoki, wicaye impande y'icyuma gikonjesha ibyo kunywa.

Ahantu bacururiza amata hakaba hari imashini zitandukanye zifashishwa mu gutuma ibinyobwa bikomeza bikonje. Izi mashini zikaba zicomekwa k'umuriro kuzamura ubukonje.

Indobo ebyiri zipfundikiye imwe iriho akantu bifashisha bafata amandazi, cuangwa imitsima myiza cyane ikozwe mu ifarine kugira ngo umuntu ayirye itanduye.

Abagabo babiri bafashe ingunguru nini bashyiramo amata kugira bayatware, bayageze aho bashaka atangiritse, bari kuyasuka mu kintu kinini gifasha gutunganya amata akagumiza ameze neza.

Amasambusa ateretse ku gafuniko k'ubururu,a kaba ari amasambusa afite umwihariko w'uko aryoha kubera ko aba akozwe mu nyama ndetse n'ifarini. Akaba akundwa n'abantu benshi cyane kubera uburyohe bwayo budasanzwe.

Indobo irimo amandazi ndetse n'akantu bifashisha bayafata kugira ngo batayanduza cyangwa ngo hageho mikorobe. Aya mandazi akaba aryoha kubere ko akoranywe ubuhanga burimo isukari ndetse n'amata.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye, hakaba hari imitobe myiza cyane iryohereye, amazi ndetse n'ibyo kunywa bitera imbaraga, hari umukobwa wicaye ku ntebe wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ikanzu y'icyatsi.

Ahantu bacuruza amata hakaba hari abantu bagiye batandukanye baje kugura amata ,aho bafite n'ibindi byo kurya byifashishwa mu gihe umuntu ari kunywa amata bikubiyemo amandazi ,imitsima myiza cyane ikozwe mu ifarini.

Ahantu bacuruza amata hakaba hari icyapa kinini cyane cy'ubururu kiriho ibyo kunywa bigiye bitandukanye bikubiyemo amazi, imitobe iryohereye ndetse n'amata atunganyijwe cyane afashe.

Ahahantu bacuruza amata bakaba bafite akabati karimo amajerekani ndetse n'utujerekani dutoya tw'umweru. Bakaba bacuruza n'ibyo kurya bitandukanye birimo imigati, amandazi, n'imitsima myiza cyane ikozwe mu ifarini.

Ameza y'umweru ateretseho akantu k'umukara akaba arimo amagi atatu ndetse n'akandi kantu karimo uduti bakoresha basukura amenyo iyo bamaze kurya ibintu bifata mu menyo kugira ngo umuntu agende atabangamiwe.

Inzu bacururizamo amata, ikaba yiganjemo amabara y'ubururu, bakaba bafite nibyo kunywa bindi bitandukanye birimo; amazi n'imitobe iryohereye. Bafite n'ibyo kurya bitandukanye birimo amandazi.

Ameza ariho akantu gateretsemo impapuro z'isuku, zifashishwa n'abantu bagiye batandukanye bakaba bazifashisha iyo bamaze kurya, cyangwa wenda bamaze gukaraba bashaka kwihanagura.

Umugabo uhagaze ahantu bacuruza amata, hakaba hari intebe zo kwicaraho, imashini zifashishwa mu gukonjesha ndetse n'akandi kantu gateretsemo amasahani, ibyo kurya bitandukanye ndetse n'amateremusi.

Ahantu bacururiza amata meza kandi yujuje ubuziranenge, hakaba hari umumama waje kugura amata yo kunywa ndetse umugabo ari kuyamuha, hari n'undi ku ruhande wambaye ikote ry'umukara n'ingofero y'ubururu.

Ahantu bacururiza amata hakaba hari intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza y'umweru hari amajerekani ndetse n'ibyo kurya bigiye bitandukanye birimo amagi, amandazi ndetse n'amazi yo kunywa.

Abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe, bari ahantu bacururiza amata, babahaye amata barikunywa, urabona ko bishimiye cyane ukuntu ayo mata aryoshye. Ku ruhande rwabo kandi, hakaba hari n'ikirori bireberamo.

Icyuma cyabugenewe kifashishwa n'abantu bacuruza amata hirya no hino hatandukanye, kikaba kibika amata neza akaguma afite ubuziranenge kandi kikaba gishobora no kubika amata menshi cyane aho cyabika ritiro zigera mu ijana.

Isahane iriho imitsima myiza cyane ikozwe mu ifarini ndetse n'agasukari bakaba bongeramo n'amata, ikaba ikundwa n'abatari bake kubera uburyohe bwayo, aho abana ndetse n'abantu bakuru bayikunda.

Amapaki arimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, amandazi, ndetse imitsima myiza cyane ikozwe mu ifarine, ibi byo kurya bikaba biryoshye cyane kubera ko bikozwe mu ifarine, nanone bikaba biryoha cyane iyo umuntu ari kubisomesha amata.

Akana gafite terefone mu ntoki inyuma yako hakaba umuhungu wambaye ijire y'umutuku nawe afite terefone mu ntoki uri kwitegereza akana gaseka, ku ruhande hari ingunguru nini yifashishwa mu kubika amata.

Inzu bacururizamo amata irimo umugore ufashe ijagi mu ntoki irimo amata inyuma ye hari igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu kubika ibintu bikaguma bikonje ndetse hakaba hari n'imashini itunganya amata.

Ahantu bacuruza amata, ndetse bakagira n'ibyo kurya bigiye bitandukanye birimo: amandazi, imitsima myiza cyane ikozwe mu ifarini. Bafite n'icyuma kibafasha gutunganya amata yabo, n'ikindi kibafasha kuyakonjesha.

Icyuma kifashishwa mugutunganya amataka akaguma ameze neza yujuje ubuziranenge, kikaba giteretse munzu bacururizamo amata, ndetse hakaba hari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'ameza n'intebe.

Ahantu bacuruza amata ndetse bakaba bafite n'imashini zibafasha gutuma ayo mata yabo akomeza gukonja hari icyama kiriho umwana uri kunywa amata, amata ateguwe neza ashobora guhita anyobwa kandi yujuje ubuziranenge.

Ahantu bacuruza amata n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye bidasembuye birimo; imitobe myiza iryohera n'ibyo kunywa bitera imbaraga. Hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ugiye kwishyura.

Umukobwa uhagaze ahantu bacururiza amata akaba yambaye agapira k'umweru, ikabutura ya pinki ndetse n'inkweto z'umweru afashe telefone mu ntoki, imbere ye hari imashini itunganya amata kugira ngo akomeze ameze neza.

Ahantu bacururiza amata hari umugore uhahagaze inyuma ye hari ikimashini, kifashishwa mu kubika amata, ndetse kikaba kinayatunganya kugira akomeze ameze neza, kuburyo abantu baza kuyagura yujuje ubuziranenge.

Icyapa kimanitse kigaragaza ko hari ahantu bacuruza amata, bakaba bafite ikintu cyo kogeramo mbere yo kwinjira cyangwa umaze kurya. Bakagira ahantu heza ho kwicara ku ntebe z'ubururu n'ameza y'umweru.

Ahantu bacuruza amata hakaba hari umumama waje kuahagurira icyo kunywa bamuhaye amata ndetse ku ruhande hari isahani iriho imyumbati, aho ahantu bafite n'imashini zifashishwa mu gutuma ibinyobwa bikomeza bikonje.

Umutobe mwiza cyane uryohereye ukorwa n'uruganda rwitwa Inyange ukaba ukozwe mu matunda avangiyemo ibindi bintu kugira ngo urusheho kuryoha neza bakawufunga mu gikarito kinini.

Ipikipoki iparitse ahantu hanze ku muhanda w'igitaka, ikaba yikoreye ikigunguru kinini kiziritseho akajerekani, cyifashishwa mu kubika amata kugira bayageze aho bashaka, atangiritse.

Umugore wicaye ahantu bacururiza amata, akaba yambaye itaburiya nini isa umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Yicaye imbere y'imashini ibika amata neza kuburyo atangirika

Ahantu bacururiza amata ndetse bagacuruza n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye hateretse amajerekani y'umweru ndetse n'icyuma kifashishwa mu gutuma amata yabo akomeza akonje cyangwa ibindi binyobwa.

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bigiye bitanduaknaye bidasembuye hakaba hari imitobe myiza iryohera, amazi ndetse n'ibindi byo kunywa bitera imbaraga, ukaba wahageze utahava ugifite inyota.

Utujerekani tw'umweru duteretse kumakaro y'umweru, kuruhande hakaba hari ikintu kifashishwa mukubika amata, kugira bayageze aho agiye ameze neza. Bakaba banditseho amazina ya bo kugira bataza kutuyoberwa.

Isambusa nziza cyane, zigizwe n'inyama ndeste n'ifarini, zikaba zikundwa n'abantu benshi cyane kubera uburyohe bwazo. Hakaba habaho n'iz'ibirayi zikundwa n'abakobwa cyane cyane, kubera uburyo ziryoha.

Ahantu bacuruza amata hakaba hari aho kwicara ndetse bakaba bafite n'ibindi binyobwa bitandukanye bidasembuye bikubiyemo n'amazi. Bagira n'ibyo kurya ndetse n'imashini zibafasha gukonjesha ibinyobwa byabo.

Ahantu bacuruza amata, hanze hakaba hari igikoresho cyifashishwa mu rwego rw'isuku kugira ngo umuntu yinjire akarabye cyangwa mbere yo kurya abanze akarabe, na none bafite ibyo kurya bitandukanye birimo ibiryohereye.

Ahantu bacuruza amata ndetse hakaba harimo ibyo kurya hari ameza y'umukara ateretseho igikombe n'isahani iriho ibiryo ndetse n'impapuro z'isuku hakaba hari umuntu uri gufungura.

Ahantu bacururiza amata hari umukobwa wambaye ingofero y'umweru, umupira w'ubururu afashe ijage y'icyatsi mu ntoki, akaba ari gusuka amata mukajerekani, kuruhande hari imashini itunganya amata.

Amata meza y'ikivuguto atunganyijwe ari mu tuntu tugiye dutandukanye twifashishwa kugira ngo bayabike neza, akaba aryohera cyane kubera ko baba bongeyemo isukari n'ibindi binyabutabire bitandukanye.

Amazi ateretse ahantu ndetse na amverope ebyiri, inini n'intoya, zikaba zirimo ibintu bitandukanye, aya mazi akaba akundwa n'abantu benshi kuberako aba atunganijwe neza, atagutera ikibazo.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru ufite ijosi rya oranje akaba ari guha serivise abana babiri baje kunkwera amata aho hantu, aho yabasukiye amata ndetse akabaha n'imitsima myiza ikozwe mw'ifarini.

Ahantu bacuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye birimo capati, amandazi bakaba bafite n'imineke ndetse n'amagi bafite n'urusenda umuntu yifashisha ashyira ku igi ngo biraryoha cyane.

Ahantu bacuruza amata ndetse bakaba bafite n'ibindi byo kunywa bitandukanye bidasembuye, bikubiyemo amazi, imitobe iryohera. Nanone bafite amagi ndetse na capati, bakagira n'imashini ibafasha gutunganya amata yabo.

Mu nzu ikoreramo isosiyete y'itumanaho, hakaba hari n'abakozi bayo, bari guha serivise abaje babagana, zitandukanye, zijyane no kubitsa, kubikuza, cyangwa se kohereza amafaranga.

Agapapuro k'umuhondo kagaragaza uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga, aho kariho uburyo wakanda ukishyuramo ndetse n'izina ry'umucuruzi ugiye kwishyura.

Agakarita k'umuhondo kifashishwa n'abacuruzi bagiye batandukanye, aho kaba kariho kode umuntu ashobora gukoresha yishyura, akaba ntayandi mafaranga yakaswe, bikaba bikundwa n'bantu benshi.

Umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda; wambaye umupira w'umuhondo, akaba yicaye imbere y'imashini, ari guha serivisi uwaje amugana zitandukanye zitandukanye, zikubiyemo kubitsa cyangwa kubikuza.

Akazu k'umuhondo gakoreshwa n'umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda. Kakaba kanditseho amagambo agaragaza uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga cyangwa ukaba wakwizigamira.

Agakarita k'umuhondo kifashishwa n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda yitwa emutiyeni, kakaba hari izina ry'ubucuruzi, ndetse na kode akoresha bamwishyura, kuburyo bamwishyura badakaswe cyangwa ngo bakwe andi mafaranga.

Utuzu tubiri: ak'umutuku ndetse n'ak'umuhondo, tukaba dukoreramo abakozi bakorera sosiyete zitandukanye, z'itumahano, aho bari guha serivise abaje babagana, zitandukanye, zijyanye no kubona uburyo bwo guhamagara cyangwa kubitsa.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho wambaye umupira w'umuhondo, akaba afashe telefone ebyiri mu ntoki, ari gufasha umuntu amuha serivise zigiye zitandukanye, zikubiyemo kubitsa cyangwa kubikuza.

Akazu nk'umuhondo gakoreraho umukozi w'isosiyete y'itumanaho, hnze hahagaze abana baje kwakira uyu mukozi iyo arimo aba ari gufasha abantu kubona serivise zijyanye no kubona amafaranga cyangwa kuyabitsa kuri telefone zabo,

Ahantu bacuruza ibyo kunywa bitandukanye, bakagira n'imashini ibikonjesha, hari umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho wambaye ingofero y'umuhondo irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umupira w'umuhondo.

Ahantu hakorera isosiyete y'itumahano mu Rwanda, ishami ryaho, bakaba bafite telefone nziza cyane, zigura makeya, aho ushobora kuyigongera bitagusabye ubushobozi buhambaye cyane.

Ahantu hari abakozi b'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, hari n'umuntu w'umuzungu wambaye umupira w'umweru n'undi wicaye wambaye umupira w'umuhondo uri gukoresha imashini.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho yambaye ingpfero y'ubururu irimo akabara k'umuhondo ndetse n'umupira w'umuhondo ari gufasha uwaje amugana kubona uburyo bwo kwishyura yifashishije ikoranabuhanga.

Akazu k'umutuku gakoreramo umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho cya Eyateri, ari guha serivisi abaje bamuganye zigiye zitandukanye zirimo kubitsa, kubikuza ndetse bakaba bakohereza n'amafaranga ahandi.

Isosiyete y'itumanaho mu Rwanda yegereye abaturage, aho babazaniye poromosiyo zitandukanye, ndetse bakaba bari no kubacurangira umuziki. Hari abagabo babiri bizihiwe n'umuziki uri gucurangwa, bakaba bari kuwuceza,

Agakarita k'umuhondo kariho imibare umuntu yakoresha yishyura kakaba kariho n'izina ry'umucuruzi aho wishyura amafaranga ntakindi kiguzi watswe ahubwo ukishyura ayo wakoresheje gusa udakaswe.

Agapapuro k'umuhondo kariho uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga, n'izina ry'umucuruzi ndetse na kode bakoresha bamwishyuriraho. Aho wishyura nta kindi kintu ukaswe, wishyuye serivisi uhawe gusa.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantalo y'umutuku akaba akorera ikigo gishinzwe itumanaho aho ari gufasha umumama akamwereka uburyo bworoshye bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga batamukase.

Ahantu hakorera isosiyete y'itumanaho hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'amadarubindi amufasha kureba neza akaba ari guha serivise uwaje amugana zitandukanye zikubiyemo kubitsa.

Ahantu hakorera isosiyete y'itumanaho, bari guha serivisi abantu baje babagana kubwinshi zigiye zitandukanye, zikubiyemo; kubitsa, bakabikuza, cyangwa bakohereza amafaranga.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo bicaye imbere ya mudasobwa, bari guha serivise umugabo waje abagana zigiye zitandikanye zikubiyemo: kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Urupapuro rw'umuhondo ruriho uburyo wakanda ukishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga hakaba hariho imibare igiya itandukanye ushyira muri terefone yawe hanyuma ukemezamo amafaranga akagenda ntakindi bagukase.

Ahantu hari icyapa kinini kiranga isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, hakaba hari n'abaturage benshi cyane baje kureba uwo muhango, bakaba bari guhabwa serivise zigiye zitandukanye, bakanasobanurirwa uko zikoreshwa.

Umukozi ukorera isosiyeti y'itumanaho mu Rwanda wambaye agapira k'umweru ahakaze mu kazu k'umuhondo aho yiteguye guha serivise abaza bamugana zirimo kuba babitsa cyangwa bakabikuza.

Ikarita iriho uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga hakaba hariho izina ry'umucuruzi ndetse n'imibare ukanda ukabasha kwishyura aho wishyura ntayandi mafaranga ukatswe.

Isoko ririmo abantu batandukanye, abacuruzi n'abaje kugura, rikaba rifite n'ibintu bitandukanye byo kurya, bikubiyemo intoryi, karoti, amavuta n'ibirungo. Bakaba bafite n'amafu y'ubugali.

Akazu k'umuhondo gakoreramo umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho ari guha serivise zigiye zitandukanye abaje bamugana zikubiyemo kubitsa, bakabikuza cyangwa bakaba bakohereza amafaranga.

Akazu k'umuhondo gakoreshwa n'umukozi w'isosiyete y'itumanaho ari guha serivise umuntu waje amugana ufite isakoshi mu ntoki akaba ari kumufasha kuba yabikuza, kubitsa cyangwa kohereza amafaranga.

Akazu k'umuhondo gahagazeho umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantalo y'ubururu bari kumuha serivise zitandukanye z'ikoranabuhanga zirimo kubitsa cyangwa kubikuza.

Akabati kometseho agapapuro k'umukara n'umuhondo gashushanyijeho amatelefoni, kakaba kagaragaza uburyo ushobora guhabwa inyongera ya interinete yirukanka cyane nk'umurabyo.

Ahantu hakorera isosiyeti y'itumanaho hari abakobwa batatu bambaye imipira y'umuhondo inyuma yabo hari ekara nini cyane bari guha serivise umuntu waje abagana zigiye zitandukanye.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'akazu k'umuhondo umwe yambaye ikanzu y'ubururu ahetse igikapu cy'umukara ndetse n'akagofero k'umweru, bari guhabwa serivise zitandukanye z'ikoranabuhanga.

Umuntu ugiye kwishyura yifashije uburyo bw'ikoranabuhanga akaba agiye kwishyura amafaranga ibihumbi bibi magana atanu kuri Bosco, aho ikiguzi cyo kwishyura ari zeru akaba ari gusabwa gushyiramo umubare w'ibanga.

Akazu k'umuhondo kifashishwa n'umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho, hanze hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umukara wandikishijweho amagambo y'umweru, akaba yaje gusaba serivise zitandukanye.

Akazu k'umuhondo gakoreramo umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, ari guha serivise uwaje amugana, wambaye agapira k'umweru, ndetse akaba ahetse igikapu cy'umukara akaba ari kumuha serivise nziza.

Akazu k'umuhondo, gahagaze ho abantu babiri, umugabo yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara. Bakaba baha serivisi zigiye zitandukanye abantu baje babagana.

Umugore ukorera isosiye y'itumanaho, wambaye umupira w'umweru, ufite ijosi ry'umuhondo ari gusobanurira umugabo wambaye ishati y'umweru serivise zigiye zitandukanye, zikubiyemo izo kubitsa no kubikuza.

Akazi k'umuhondo gakoreshwa n'isosiyete y'itumanaho, aho iyo bahari baba bari gufasha abantu serivise zitandukanye zijyanye no kubona uburyo bwo guhamagara cyangwa kubitsa amafaranga.

Umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho, yicaye munsi y'umutaka w'umuhondo, ndetse ari guha serivise uwaje amugana zitandukanye, zijyanye n'ikoranabuhanga zirimo kubitsa, cyangwa akaba yabikuza.

Umukozi ukorera ikigo cy'itumanaho kitwa emutiyeni ari gufasha umuntu kwishyura hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga aho amaze kwishyura ibyo yaguze akoresheje telefone ye.

Akazu k'umuhondo gahagazeho umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura y'umukara aho yaje gufata serivise zitandukanye zikubiyemo kuba yabikuza cyangwa yabitsa.

Abakobwa babiri bambaye imipira y'imihondo bakorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda bari guha serivise abantu baje babagana kandi barabyishimiye cyane bahise bafata n'agafoto.

Akazu k'umuhondo gahagazemo abantu ababiri, umukobwa n'umuhungu, ndetse hanze hakaba hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu, bari kumuha serivisi zitandukanye zikubiyemo kubitsa ndetse no kubikuza.

Abakozi bakorera isosiyete y'itumanaho babiri bambaye imipira y'imihondo undi yambaye agapira k'ubururu bari gufata agafoto bishimira ukuntu batanze serivise nziza uwo munsi.

Abakozi b'isosiyete y'itumanaho, begereye abaturage, bari kubaha serivise zigeye zitandukanye zirimo: kubitsa, kubahindurira imibare y'ibanga, cyangwa kohereza amafaranga inshuti zabo.

Akazu k'umutuku, kifashishwa n'umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho ya Airtel, akaba atanga serivise zigiye zitandukanye kubaje bamugana, zikubiyemo kubitsa cyangwa bakabikuza.

Umuntu ugiye kohereza amafaranga Fabrice Hakuzimana amafaranga angana n'igihumbi aho bari kumukata veni. Bari kumusaba gushyiramo umubare w'ibanga kugira yemeze ayo mafaranga agende.

Ikarita y'umuhondo ikoreshwa n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene yifashishwa mu kwandikaho izina ry'umucuruzi ndetse na kode akoresha kugira bamwishyure ntakindi kiguzi cy'amafaranga batswe.

Akazu k'umuhondo kicayemo umuntu wambaye ishati ndetse hanze hari n'abantu benshi baje gusaba serivise zitandukanye z'ikoranabuhanga zikubiyemo kubitsa cyangwa kubikuza.

Akazu k'umuhondo kicayemo umugore wambaye ishati y'umweru, akaba akorera ikigo gishinzwe itumanaho. Yiteguye guha serivise abaza bamugana zikubiyemo kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Umutaka w'umuhondo uriho utubara tw'ubururu, hahagaze umuntu uhetse igikapu cy'umukara wambaye n'ishati y'umweru, aho yaje gusaba serivisi zitandukanye zirimo kubitsa cyangwa kubikuza.

Akazu k'umuhondo gahagazeho abantu benshi baje gufata serivise zitandukanye zikubiyemo kuba babitsa, bakabikuza cyangwa se bakaba bakoherereza amafaranga abagize imiryango yabo.

Agakarita k'umuhondo kariho uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse hariho uburyo bwo gukanda akanyenyeri rimwe gatandatu gatanu akanyenyeri gatatu yurwego hanyuma ukemeza.

Umugabo ufashe telefone ye mu ntoki, ari gufotora uburyo bwifashishwa bishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho wishyura nta kindi kiguzwi watswe usibye amafaranga y'ibyo wakoresheje gusa.

Abantu babiri bafashe telefone mu ntoki bari kwerekana ndetse bashobora kuba bari gukoresha y'uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kwishyura, aho ukuntu afotora agakode, hanyuma hagahita hazamo uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga.

Abagabo bahagaze bambaye imipira y'imihondo ndetse ifite amajosi y'ubururu, hakaba hari kunyura umumama ufite anverope muntoki, akaba asa n'uvuye guhaha ibyo kurya bitandukanye.

Agakarita k'umuhondo kariho uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga, hakaba hariho n'imibare wishyuriraho umucuruzi. Uyishyira muri telefone yawe ukishyura ntihagire ikindi kiguzi bagukata.

Umutaka munini w'umuhondo, munsi yawo hahagazemo abantu babiri, bambaye imipira y'imihondo, kuruhande hari ikintu bakaraga, gifasha abantu gutombora, bakaba bafite n'indangururamajwi.

Umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho, wambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'ubururu, akaba yambaye n'umupira w'ubururu, afite telefone mu ntoki, ari guha serivise umugabo wambaye ikoti ry'umukara.

Akazu k'umuhondo gakoreramo umukozi ukorera ikigo cy'itimanaho kakaba gahagazeho umugabo wambaye ipanantaro y'umukara aho yaje gusaba serivise zitandukanye zijyanye no kubitsa cyangwa kubikuza

Akazu k'umuhondo gafite amadirishya afunguye kakaba gakoreshwa n'umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, aho aba ari gutanga serivise zigiye zitandukanye zikubiyemo kubitsa no kubikuza.

Umuntu ufashe telefone ye mu ntoki ari kureba uburyo yakwishyura amafaranga magana atanu hanyuma bakaba namuha interinete yakoresha bari kumusaba guhitamo uburyo bwo gukoresha inite cyangwa momo cyangwa agasubira inyuma.

Abantu bambaye imipira y'imhondo, bahagaze imbere ya mu gasobwa, bari guha serivise, abaje babagana zitandukanye zijyanye no kubitsa, kubikuza cyangwa se kohereza amagfaranga.

Ahantu bakorera isosiyete y'itumanaho bari guha serivise abantu zigiye batandukanye, zikubiyemo uburyo bwo kubona amayinite ndetse bakaba babitsa cyangwa babikuza.

Umukobwa uhagaze mu kazu k'umuhondo, akaba yambaye ishati y'umweru, ifite agakora k'umukara, akaba ari umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho, ari guha serivise zitandukanye abaje bamugana.

Umugore wambaye umwenda w'umukara akaba yicaye mukazu k'umuhondo gakoreshwa n'umukozi w'isosiyete y'itumanaho, ari guha serivise zitandukaye, umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Akazu k'umuhondo mw'imbere gasa umweru, hakaba harimo umukobwa uri kwereka umuntu uburyo bakoresha serivise z'ikoranabuhanga. Zirimo kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho ari mu kazu kiwe k'umuhondo, ari guha serivise uwaje amugana zitandukanye, zikubiyemo, kubikuza, kubitsa cyangwa kohereza amafaranga ahantu hatandukanye.

Umugabo uri guseka wambaye umupira w'umuhondo mo imbere akaba yambariyemo ishati y'umukara, ari ku igare rifite n'inzogera bakoresha bavuza, kugira ngo utaba wagonga umuntu cyangwa ngo ave mu nzira.

Abagabo babiri; umwe wambaye umupira w'umukara undi wambaye umupira w'umuhondo, akaba afite na terefone mu ntoki. Ari kubwira umugabo ufashe igare ry'umuhondo mu ntoki, serivise zigiye zitandukanye batanga.

Umugabo ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, akaba yamabye umupira w'umweru ufite ijosi ry'umuhondo, imbere ye hakaba hari ameza ariho ibikoresho bigiye bitanduknye, biriho ingofero, icupa ryo kunyweraho amazi n'ibindi.

Akazu k'umuhondo gateretse imbere y'inzu ifite amagorofa abiri kakabakarimo umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho aho yiteguye gufasha abaje bamugana kubaha serivise zigiye zitandukanye.

Akazu k'umuhondo gakozwe mu cyuma kakaba gakoreramo umukoze ukorera ikigo gishinzwe itumanaho aho aba ari huha serivise abaje bamuganye zitandukanye zikubiyemo kubitsa cyangwa kubikuza.

Ahantu hari umukozi ucuza peterori, wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara ari gufasha uwaje amugana uburyo bwo kwishyura akoresheje ikoranabuhanga aho nta yandi mafaraga akatwa cyangwa acibwa.

Akazu k'umuhondo, imbere hahagaze umugore wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu ku ruhande rwe hahagaze umugabo wambaye umupira w'icyatsi, akaba afashe telefone ye mu ntoki.

Agakarita k'umuhondo kariho uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga aho kaba kariho izina ry'umucuruzi ndetse na kode wifashisha ushaka kumwishyura ku buryo wishyura ntayandi mafaranga ukatswe.

Ahantu hari abakozi bakorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, bari kugenda baha serivise zitandukanye abaje babagana, zikubiyemo kuba babitsa, bakabikuza, cyangwa bakohereza amafaranga.

Akazu k'umuhondo gakoreramo umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho, ariguha serivise abaje bamugana zigiye zitandukanye zikubiyemo kuba bakohereza amafaranga mumahanga, cyangwa se abagize inshuti zabo.

Abantu babiri bahagaze imbere y'akazu k'umuhondo, umugore wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu ari guha serivise umugabo wambaye ingofero ndetse n'umupira w'icyatsi ufite terefone mu ntoki.

Urupapuro rw'umuhondo, rwifashishwa n'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda, cyitwa emutiyeni, rukaba ruriho amazina y'umucuruzi, ndetse na nimero yifashishwa bamwishyura, aho bishyura badakaswe cyangwa ngo bakwe andi mafaranga.

Abamotari babiri bombi bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo ndetse hakaba hari n'abandi bagabo babiri bahagaze, nabo bambya udupfukamunwa tw'umuhondo, umwe yambaye umupira w'umuhondo, nipantaro y'ubururu, undi yambaye inkweto z'umukara.

Umuntu wambaye ingofero y'umweru afashe mu ntoki agakarita k'umuhondo kariho uburyo bwo kwishyura yifashishije ikoranabuhanga ndetse n'imibare ukanda ukabasha kwishyura batagukase.

Umuntu ufashe telefone ye mu ntoki, ari gukanda uburyo bakoresha bishyura, hifashishije ikoranabuhanga, aho yakanze imibare igiye itandukanye kugira yishyure ntakindi kiguzwi yatswe usibye ibyo yakoresheje.

Sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, abakozi bayo bamwe baricaye, abandi barahagaze, bakaba bari guha serivise zitandukanye abaje babagana zikubiyemo kubitsa, bakabikuza ndetse bakohereza amafaranga.

Umugabo fite uruhara, wambaye umupira w'umuhondo, ukaba ufite ikora ry'ubururu, ahagaze imbere y'ikamyo y'umukara, ari kuvugana n'umushoferi wayo, ku buryo bwiza cyane bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga.

Agapapuro kariho uburyo bwo kwishyura hifashijwe ikoranabuhanga, kakaba kariho izina ry'umucuruzi, ndetse n'imibare ukanda ukishyura amafaranga akaba ntayandi wishyuzwa ya serivise.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho yambaye agapira k'umuhondo ari mu kazu k'icyuma akaba aha abantu baje bamugana zikubiyemo kubitsa cyangwa kubikuza.

Akazu k'umuhondo gakoresha n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, kakaba gahagazeho umuntu uri kuvugira kuri terefone, umuntu ukorera muri aka kazu atanga serivise zitandukanye zirimo kubitsa cyangwa kubikuza.

Akazu karimo abantu bagiye batandukanye hakaba hateretsemo n'igicupa kinini kirimo amazi, batanga serivise zigiye zitandukanye zirimo kubona amafaranga, kuyabitsa cyangwa bakaba bayohereza mumahanga.

Ahantu hakorera ikigo gishinzwe itumanaho bari guha serivise zitandukanye abaje babagana ndetse bakaba babashyiriyeho n'uburyo bwo gutombora bakoresheje ikintu kikaraga umuntu agatsindira ibintu bitandukanye.

Agapapuro k'umuhondo karimo ibibare, ukanda ukishyura udakaswe kuruhande hari n'akandi gakarito, karimo telefone nziza cyane, igura makeya kandi ikora ibintu neza.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe kugenda kigeza ku bantu ibyo babatumye babinyujije ku ikoranabuhanga ari kumwe n'umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho aho ari kumuha serivise zitandukanye.

Imashini ziteretse ahantu ndetse n'ururabyo hakaba hari n'udukarita twinshi cyane dukoreshwa nisosiyete y'itumanaho murwanda tuba turiho amazina y'umucuruzi ndetse na kode bakoresha bamwishyura.

Akazu k'umuhondo gakoreshwa n'umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho, yambaye umupira w'umukara, ndetse ari guha serivise abaje bamugana, hanze hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abakozi bakorera ikigo cy'itumanaho mu Rwanda bicaye munsi y'umutaka munini w'umuhondo ndetse bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo n'imipira y'isosiyete bakorera ya MTN.

Akazu k'umuhondo gakoreramo umukozi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, kakaba gakinze, iyo ahari aba ari gufasha abantu kubona serivise zitandukanye zikubiyemo kubona uburyo bwo kubona amafaranga.

Umugabo wambaye inofero y'umuhondo ndetse n'ubururu akaba yamabye n'umupira w'umuhondo ufite ikora ry'ubururu, ahagaranye n'umukonwa wambaye impuzankano y'ubururo ukorera kampani ishinze guha abantu umutekano.

Abakozi bakorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda begereye abaturage aho bari kubaha serivise zigiye zitandukanye zikubiyemo kubereka uburyo bafunguza uburyo bwo kwizigamira, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Akazu k'umutuku kifashishwa n'isosiyete y'itumanaho, kakaba gakinze, aho umukozi iyo arimo, aba Ari guha serivise zitandukanye abaje bamugana, zikubiyemo kubitsa cyangwa kubikuza.

Akazu k'umuhondo gakozwe mu byuma, kakaba kicayemo umuhungu wambaye agapfukamunwa k'umukara, ndetse n'ijire y'umuhondo, hanze hahagaze umugabo wambaye ingofero y'umukara, ufashe Telefone muntoki.

Umugabo uhagaze imbere y'ipikipiki y'umuhondo yambaye umupira w'umuhondo mu imbere yamabariyemo ishati y'umweru, ahagaze imbere y'icyapa kinini gishushanyijeho imodoka y'umukara n'umugabo wambaye ikote ry'umukara.

Akazu k'umuhondo gakoreramo umucuruzi w'isosiyete y'itumanaho, ari gufasha umuntu w'umumama amuha serivise zigiye zitandukanye, zikubiyemo kuba yamubikuriza, cyangwa akamubikira amafaranga.

Umugabo uri kuri terefoni wambaye umupira w'ubururu, ahagaze imbere y'akazu kumuhondo gakoreramo umukozi wa sosiyete y'itumanaho ugenda utanga serivise zi tandukanye zirimo kubitsa cyangwa kubikuza.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'akazu k'umuhondo gakoreramo umukozi w'isosiyete y'itumanaho, aho ari kubaha serivise zigiye zitandukanye zikubiyemo kuba bakohereza amafaranga abagize imiryango yabo cyangwa bakabitsa.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo umukozo w'isosiyete y'itumanaho, Hicayemo umumama akaba yiteguye guha serivise zitandukanye, abaza bamugana zijyanye n'uburyo bwo kubona amafaranga cyangwa kubona uburyo bwo guhamagara.

Ikarita y'umuhondo, yifashishwa n'ikigo gishinzwe itumanaho, aho haba hariho kode ushobora gukoresha wishyura umucuruzi, ntayandi mafaranga watswe, usibye amafaranga wagombaga kwishyura gusa.

Umukobwa wambaye umwambaro w'akazi, w'umuhondo, uriho imibare bakanda bishyura, badakaswe, ahantu ari hakaba hari na kontineri y'icyatsi, n'amasafuriya, n'ibikombe, ndetse n'intebe yo kwicaraho.

Umugabo wicaye mu kazu k'umuhondo mo imbere kakaba gara umweru, iruhande rwe hari igita akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho, yiteguye gufasha abaje bamugana bose kubaha serivise.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'umkobwa wambaye umupira w'umuhondo bari ahantu batangira esanse bari kuvomera umumotari bamwereka n'uburyo bwo kwishyura hifshishijwe ikoranabuhanga aho yishyura adakaswe.

Akazu k'umuhondo karimo abantu babiri ndetse n'abandi bahagaze hanze bakaba baje gufata serivise zitandukanye zikubiyemo kuba babitsa, bakohereza amafaranga cyangwa se bakabikuza.

Akazu k'umuhondo, gahagazeho abantu baje gusaba serivise zitandukanye, zikubiyemo kuba bakohereza amafaranga, bakabona uburyo bwo guhamagara, cyangwa se bakabitsa, bakanabikuza.

Abakoz b'isosiyete y'itumanaho bambaye imipira y'umuhondo, ku ruhande rwabo hakaba hari ikintu bakaraga bagatsindira ibihembo bigiye bitandukanye binyuze muri tombora aho baigikaraga.

Akazu k'umutuku gakoreshwa n'umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho ya Airtel hanze hahagaze abantu batatu umugabo n'umugore ndetse bari gusuhuzanya ubona ko bari guhabwa serivisi neza.

Umuntu ufashe telefone mu ntoki, amaze gukanda kode bakoresha biyishyura y'umucuruzi kugira batagukata, bari kumusaba gushyiramo amafaranga, hanyuma agahita yemeza, akishyura ibyo yakoresheje.

Abagabo benshi harimo n'abanyamahanga bambaye imipira y'imihondo, undi akaba yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara, bahagaze imbere y'akazu gakoreramo umukozi ukorera isosiyete y'itumanaho.

Ahantu hhari ihema ry'umweru, ndetse hakaba hari amabara y'umuhondo, munsi hicayemo abantu bose bambaye imipira y'umuhondo, bakaba bari gutaramirwa n'umuhanzi ugezweho yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu.

Akazu k'umuhondo gahagazeho umugore wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu, ndetse n'undi mugabo. Baje gushaka serivise zitandukanye Zijyanye no kubona uburyo bwo guhamagara cyangwa bakaba babitsa bakanabikuza.

Abakobwa batatu, babiri bambaye imipira y'imihondo, undi yambaye uw'ubururu, bakorera isosiyete ishinzwe itumanaho, aho bishimiye serivise bahaye abantu, bakaba bari gufata agafoto k'umunsi.

Abagabo babiri bambaye imipira y'imihondo bari gusuhuzanya cyane inyuma hari abaturage bashungereye bareba icyo gikorwa ndetse inyuma yabo hari n'umutaka munini w'umuhondo wicayemo abantu.

Umugabo wicaye ndetse n'abandi babiri bahagaze, bakaba bambaye amajire y'imihondo, bakorera ikigo gishinzwe itumanaho. Bari guha serivise umuntu waje abagana zigiye zitandukanye zikubiyemo kubitsa no kubikuza.

Ahantu hakorera isosiyete ishinzwe itumanaho hanze hakaba hari umukozi wayo, uri guha serivise abaje bayigana bakaba bafite na telelefone zigura makeya umuntu adahenzwe.

Umutaka munini w'umuhondo, munsi yaho hahagaze abagabo babiri: umwe yambaye umupira w'umutuku undi yambaye ijire isa umuhondo; akorera ikigo gishinzwe itumanaho ari kumuha serivisi zitandukanye.

Akazu k'umuhondo kicayemo umumama ari guha serivise uwaje amugana zitandukanye zijyanye no kubitsa cyangwa akabikuza nanone ari kumufasha kubona uburyo yahamagara bitamugoye.

Akazu k'umuhondo gakoreramo umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho cya emutiyeni, kakaba gakinze, iyo arimo aba ari guha serivise abantu zigiye zitandukanye zirimo kubitsa cyangwa bakaba babikuza.

Umukozi ukorera ikigo cy'itumanaho, akaba ari mu kazu k'umuhondo, ho ari guha serivisi umuntu waje amugana, zijyanye no kubitsa, cyangwa akaba yabikuza amafaranga ye.

Abagabo benshi ndetse n'abagore bambaye imipira y'imituku bakorera ikigo cy'itumanaho bari gufasha abaje babagana muri serivise zitandukanye zijyanye no kubitsa , kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Ahantu bacuruza imyenda itandukanye y'abagobo amakoboyi meza y'ubururu, ay'umukara cyangwa se ay'umweru hari n'akapa k'umuhondo kariho uburyo bwo kwishyura hikoreshejwe ikoranabuhanga.

Utuzu tubiri akumuhondo ndetse na akumutuku tukaba turimo abakozi batandukanye bakorera amasosiyete y'itumanaho atandukanye bari gitanga serivise kubantu baje babagana zirimo gutanga amafaranga cyangwa kuyabitsa.

Umugabo wambaye ishhati y'icyatsi, akaba ahagaze imbere ya moto yikoreye iggisanduku cy'icyatsi, arigukuramo ibintu bitandukanye, aho ashobora kuba abishyiriye banyirabyo babitumye.

Umukobwa wambaye ishati y'icyatsi akaba afite amverope mu ntoki irimo ibyokurya bigiye bitandukanye birimo amavuta, pavulo ndetse na karoti, ari kuyiha undi mukobwa.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi akaba ateruye amvelope, irimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, birimo karoti, amavuta, voka ndetse n'ibindi. Akaba ahagaze imbere y'igisanduku kinini cy'icyatsi.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ushobora gukoresha ushaka guhaha ibintu bitandukanye, bikubiyemo imyenda, inkweto, n'amasakoshi, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, utavuye aho uri.

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi ari kubika mu gisanduku ibyo bamutunye, aho bagenda babigeza ku bantu ahombaba bari hose, kubera ko baba babitumye bari mungo zabo aba ngaba bakabibagezaho.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe kugenda kigeza kubantu ibyo batumije, yicaye kuri moto, yambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara, ndetse n'inkweto z'umukara zirimo uturongo tw'umweru.

Iduka rikorera Kimironko, riramenyesha abakiriya baryo ko bagabanyije ibiciro, aho byavuye ku bihumbi mirongo itandatu na birindwi magana atanu, bikajya ku bihumbi mirongo itanu na bine magana atanu.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ndetse akaba yambaye n'ingofero y'abamotari isa icyatsi, ahagararanye n'umukobwa wambaye agapira k'ubururu, imbere yabo hari moto y'umukara, ifite igisanduku kinini cy'umukara.

Abagabo bicaye ku mapikipiki ariho ibisanduku ibyo bisanduku bikaba byifashishwa mu kubika ibintu bigiye bitandukanye baba babatumye binyuze ku ikoranabuhanga bakaba biteguye kubibagezaho.

Urubuga rufasha abanyarwanda kubona serivise zigiye zitandukanye, nk'icyemezo cy'uko uri ingaragu, srivise z'ubutane, cyangwa ukaba wakwiyandikisha mu gukorera uruhushya rwisumbuye rwo gutwara ibinyabiziga.

Iduka rikorera Kimironko rirabamenyesha ko bananuye ibiciro ako babikihuye ku buhumbi mirongo itandatu na bine na magana atanu bakabishyira ku bihumbi miringo itanu na bine na magana atanu, bagira ibintu byiza bitandukanye birimo inyama amvuta ndetse n'ibitunguru.

Umugabo wambaye ingofero y'abamotari uotwa kasike; akaba yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara. Ahagararanye n'indi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ijya gusa umutuku, n'inkweto z'umukara.

Urubuga ushobora guhahiraho ibyo kurya bigiye bitandukanye imineke, amashu, inyanya, intoryi ndetse n'ibindi byo kurya bitandukanye, aho babikugezaho bifashishije ikoranabuhanga.

Abagabo babiri bambaye marinete umwe yambaye marinete y'umukara undi yambaye marineti y'umutuku, bafashe mu ntoki ingofero zifashishwa n'abantu batwara amapikipiki zikabafasha kwirinda impanuka.

Urubuga rukorera kuri murandasi, ushobora guhahiraho ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse bakaba bacuruza n'imineke, ibirayi n'ibindi bintu bitandukanye, ushobora kubigura wifashishije ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ipantalo y'umukara akaba ahetse n'igikapu kinini cy'icyatsi afite igare akaba akorera ikigo gishinzwe kugenda kigeza ku bantu ibyo babatumye babinjujije ku ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye ingofero y'abamotari, akaba yambaye ishati y'umukara, imbere ye hari moto yikoreye igisanduku cy'umutuku, kikaba kifashishwa mukubika ibintu neza kugira bigere kuri ba nyirabyo bifite amahoro.

Umugabo uri kuri moto wambaye kasike y'umutuku, akaba ahetse igikapu kinini cy'umuhondo na oranje cyifashishwa mu kubika ibintu bigiye bitandukanye abantu baba batumije bifashishije ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, akaba ari kuri moto ihetse igisanduku cy'icyatsi. Akorera ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo batumye bakoresheje ikoranabuhanga, akaba abijyanye na we.

Ipikipiki ihetse igisanduku kinini cy'ubururu, cyifashishwa mu kubika ibintu neza, ku buryo bigezwa kuri nyirabyo bitangiritse. Ruguru yaho hakaba hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru,

Abantu bane bicaye ku ma moto, moto zikaba zikoreye ibisanduku, aba bantu bifashishwa mu kugeza ku bantu ibyo batumijeho hifashishijwe ikoranabuhanga bakabibagezaho mu ngo zabo.

Icyapa kinini kiriho izina ry'ahantu bacuruza imbuto n'ibindi biribwa bitandukanye. Hakaba hari imiryango isa icyatsi. Mo imbere hakaba harimo imbuto zigiye zitandukanye yaba wotameroni ndetse n'ibindi.

Ipikipiki ihetse igisanduku kinini k'icyatsi, iki gisanduku kikaba kifashishwa mukubika ibintu bigiye bitandukanye abantu baba batumije bifashishije ikoranabuhanga bakabigezwaho bimeze neza.

Umugabo uri ku igare, wambaye ishati y'icyatsi, akaba ahetse n'igikapu kinini cyane cy'icyatsi. Akorera isosiyete ishinzwe kugenda igeza ku bantu ibyo batumije, bifashishije ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ipantaro y'ubururu, akaba afite na moto iriho igisanduku kinini k'icyatsi, ari gukuramo ibintu aho abizaniye ababa babimutumye bifashishije ikoranabuhahanga.

Umuntu wicaye kuri moto wambaye ingofero y'umutuku moto ikaba ihetse igisanduku kinini kiri mu mabara y'umuhondo ndetse na oranje akaba akorera ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo bagiye batuma bibereye mu ngo zabo.

Umugabo wicaye kuri moto ihetse igisanduku kinini cy'icyatsi akaba akorera kampani ishinzwe kugenda igeza ku bantu ibyo batumije bifashishije ikoranabuhanga akaba agiye kubibagezaho.

Inyubako y'amagorofa atatu igizwe n'amabara y'umuhondo n'ubururu yitwa iposita, munsi yayo haparitse amakamyo, amabisi mato, ndetse n'amamoto yifashishwa mu kugeza ku bantu amabaruwa abandikiwe.

Iduka ricururiza Kimironko riri kumenyesha abantu barigana ko ryagabanyije ibiciro bikaba byavuye kubihumbi mirongo itandatu nabirindwi magana atanu bikajya kubihumbi mirongo itanu nabine magana atanu.

Umugabo uhagaze imbere ya moto iriho igisanduka kinini cy'umutuku ari kubika ibintu akorera ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo bagiye batuma bakoresheje ikoranabuhanga.

Imodoka nini y'ikamyo ihetse igikontineri gisa umuhondo ndetse n'ubururu akabara ari imodoka ya kampani yitwa iposita ishinzwe kugeza ku bantu amabaruwa bandikiwe.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, ingofero y'icyatsi. Akaba ahagaze kuri moto yikoreye igisanduku na cyo cy'icyatsi. Ari mu muhanda wa kaburimbo, aho agiye kugenda ageza ku bantu ibyo batumye.

Abagabo bicaye ku mamoto yabo ayo mamoto akaba ahetse ibisanduku ibyo bisanduku byifashishwa mu gutwara ibintu abantu bagiye babatuma banyujije ku ikoranabuhanga rigiye ritandukanye.

Amapikipiki abiri aparitse ariho ibisanduku binini imwe iriho igisanduku cya oranje ndetse n'umuhondo, indi iriho igisanduku cy'umutuku bikaba byifashishwa mu kubika ibintu neza kugira ngo bigere kuri banyirabyo bimeze neza.

Inyubako igizwe n'amagorofa atatu, ikaba yiganjemo amabara y'umuhondo n'ubururu, yitwa iposita, munsi haparitse amakamyo, amabisi matoya, ndetse n'amamoto, byifashishwa mu kugeza ku bantu amabaruwa babandikiye.

Ipikipiki ihetse igisanduku kinini cy'umutuku hakaba hari n'umugabo wateretseho amvirope iyi kompanyi ikaba ishinzwe gutwara ibintu n'abantu cyangwa kugeza ku bantu ibyo bagiye batumiza bifashishije ikoranabuhanga.

Urubuga rwo ku ikoranabuhanga rwifashishwa n'abantu bagiye batandukanye bakagura imyambara irimo; amakanzu, imipira, inkweto, ndetse n'ibindi bikoresho bya elekitoronike bitandukanye.

Umugabo wicaye kuri moto wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'umupira w'umuhondo. Ari kuri moto ihetse igisandukun cy'umuhondo na oranje aho akoreha sosiyete ishinzwe kugeza ku bantu ibyo babatumye.

Abagabo bicaye ku mapikipiki ahetse ibisanduku binini bya oranje, bakaba bakorera isosiyete ishinzwe kugenda igeza ku bantu ibyo babatumye hifashishijwe ikoranabuhanga, bakaba bari gupanga uburyo bakora akazi kabo.

Urubuga ushobora guhahiraho ibyo kurya bigiye bitandukanye, hari igikapu kirimo imineke, amashu, inyanya ndetse n'ibindi. Ushobora kuba wahamagara kuri nimero yabo cyangwa ukabandikira ukoresheje ubundi buryo.

Ipikipiki ihetse igisanduku kinini cy'umutuku imbere yayo hakaba hahagaze umugabo wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'ipantalo y'ubururu ufashe amvirope mu ntoki aho azaniye abantu ibyo bamutumye.

Ifoto iriho ibyo kurya bigiye bitandukanye, inyama z'inka, amafi, amavuta, ibitoki, ibitunguru, inyanya, karoti, amashu, ndetse n'ibishyimbo, n'inanasi.

Umugabo wicaye kuri moto, wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ipantaro irimo uturongo tw'umweru tumanuye n'inkweto z'umweru. Akaba ahetse igisanduku kinini cy'icyatsi cyifashishwa mu gutwara ibintu.

Umukozi ukorera isosiyete ishinzwe kugenda igeza ku bantu ibyo bagiye batuma bifashishije ikoranabuhanga, ahagaze imbere ya moto yikoreye igisanduku cya orange ndetse n'igipangu cy'icyatsi, ari guha umuntu ibyo yatumye.

Umugabo wicaye kuri moto yambaye umupira w'umuhondo ndetse na oranje afite igite igisanduku kinini cyane kiri kuri moto cy'umuhondo na oranje, aho akorera ikigo gishinzwe kugeza ku bantu ibyo babatumye.

Abamotari bose bambaye amakoti y'imituku bari muri kaburimbo, bakaba bambaye amakoti yanditseho Yego moto, iyo akaba ari sosiyete yifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu mu buryo bwihuse.

Amapikipiki ahetse ibisanduku by'umweru, hejuru y'ibyo bisanduka hariho ingofero zikaba zifashishwa n'abantu batawara amapikipiki kugira ngo abarinde impanuka cyangwa mu gihe bakoze impanuka ntibangirike ku mutwe.

Ipikipiki y'umutuku ihetse igisanduku kinini cyane cy'icyatsi, aho kifashishwa mu kubika ibintu bigiye bitandukanye. Kugira bigere ku bantu babitumye, bimeze neza kandi bitangiritse.

Amakamyo y'umweru yikoreye ibisanduku by'umuhondo akaba akorera ikigo kitwa twiga, akaba yifashishwa mukugenda ageza ku bantu ibikoresho bigiye bitandukanye bikorwa nurwo ruganda rwitwa twiga.

Umugabo wicaye kuri moto, akaba yambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'ubururu, ari kuri moto ihetse igisanduku cy'umutuku, akorera ikigo gishinzwe kugenda kigeza ku bantu ibyo batumye bifashishije ikoranabuhanga.

Amandazi meza cyane yitwa urwibutso, akaba afunzwe mu gapaki ni amandazi aryoha cyane kubera uburyo akora mu buhanga, akaba arimo: amata, isukari, akaba akundwa n'abantu bagiye batandukanye.